Umusirikare, umudamu, umugabo we, abaturage bari inyuma yabo, ibiti, n'urupapuro rw'ishimwe barimo guhereza uno muryango.

Imodoka y'cyatsi iri mu bwoko bwa Lava 4, ifite pulake LAG 850 Y iri kugenda ku nkengero z'umuhanda, imbere yayo hari ifoto hari n'umuntu bagiye guhura uri kugenda ku igare inyuma y'uwo muntu hari inzu ifite igisenge cya rouge burdo inyuma yabo hari nibiti.